Abaganga bane bambaye udupfukamunwa, bari mu cyumba k'ibagwa, bagiye kubaga umurwayi. Aryamye ku gitanda ishuka ry'icyatsi ndetse aryamye no ku mashuka y'icyatsi.

Umuganga wambaye uturindantoki yamaze gufata urugero rw'amaraso, imbere ye ku meza hariyo ikereyo, afite urushinge mu ntoki, ndetse n'agapapuro imbere ye.

Umugabo yicaye ku gatabureti, yambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara n'agapfukamunwa, ari kurebera muri mikorosikopi, iruhande rwe hari urupapuro ndetse imbere ye hari idirishya rifunze,

Mu cyumba k'ikoranabuhanga hari umwana wicaye imbere ya mudasobwa yambaye ishati y'igitenge, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto zifunguye.

Randevu sipesiyare, baho neza twite ku buzima bwo mu mutwe, imyitwarire ishobora gutera ihungabana. Makumyabiri na kane Werurwe bibiri na makumyabiri na gatatu kuva saa munani kugeza saa cyenda.

Ububiko bw'imiti itandukanye, harimo amakarito afunze, ahandi hari imiti igiye itandukanye, etajeri igizwe n'amabara y'ubururu bw'ikirere ndetse n'imiti iri mu mabara agiye atandukanye.